People siting in and event with bottles of water a side name and sampants and taking videos and pictures.

There is a story building there is stairs, and there is the fire extinguisher which has carbon dioxide, which is asuitable for fire outbreaks.

Rwandani porisi meni, wokingi dawuni situritisi wizi sitizeni ofu rwandani, bihayindi demu derizi eturi andi samu moto bayisiko ini de rodi.